Mu rwego rwo gukomeza gukaza ingamba z'iterambere, abantu bakora inama bakicara bakungurana ibitekerezo mu iterambere, yaba abayobozi kandi kuba hari ahantu heza henshi ho gukorera inama, nibyo bituma abantu badategwa mu nama bateguye kuko haba hari ahantu ho kwicara, hari intebe ndetse ahantu heza hasa neza hafite isuku bityo inama yabo ikagenda neza.

Mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ndetse no kuzamura iterambere ry'abaturage, ni ngombwa ko haba inama maze abaturage bakajya inama bakagirana ibitekerezo, bagakemurana ibibazo ndetse n'ubuyobozi bukumva abaturage. Inama ni nziza cyane.

Kugira ngo utange ibintu byawe ushaka gutanga bigere ku bo bigeraho neza binabyare umusaruro ni byiza kureba ahantu ubitangira kuko hafasha mu kugira ngo abantu babyumve, gukorera inama ahantu nk'aha heza cya mazima bitera umusaruro ku bantu bayitabiriye bakumva kandi badafite ubwoba bw'imvura, aha rero ni muri sale ya cya mazima habera inama nziza cyane ahantu heza cyane.

Mu rwego rwo kurushaho kunoza gahunda za leta ndetse n'ingamba kugira ngo zigerweho, ni byiza ko haba inama abantu bakicara bakaganira cyane ko ibikorwa remezo byarubatswe hasigaye ari ahantu henshi heza hasa neza, kandi ahanini hakorerwa inama bityo umuyobozi akazakugeza ku baturage ndetse n'abafatanyije kuyobora icyo bifuza gukora bakajya inama.

Muri iki gihe ni u Rwanda rudaheza yaba umuto n'umukuru, inama zirakorwa umuntu iyo afite igitekerezo akakigeza ho abandi bakamushyigikira ndetse n'inyunganizi n'ikibazo akakibariza mu ruhame, kuko habaho inama yaba mu mudugudu no mu tugari, uyu ni umusaza ari mu mbaga y'abantu ari kubagezaho igitekerezo cye, kandi bamuteze amatwi kubahana biranga igihugu kigatera imbere.

Mu rwego rw'iterambere ndetse n'ubukungu no kurwanya ibibazo bimwe na bimwe. Ni byiza gukora inama, abantu bakicara bakaganira kubibazo bahura nabyo kandi iyo bicaye baganira, haba hari icyo kunywa kandi ugasanga ni abantu basa neza. Bigatuma Igihugu cyacu gikomeza gutera imbere, aba mama, abagabo, abasore n'abakobwa bagahura bakungurana ibitekerezo mu iterambere.

Umunyarwanda yaciye umugani ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara, ni byiza ko abantu bicara hamwe bakaganira bakungurana inama ku kintu runaka, hano turi kubona abantu bicaye mu nama bari kugira inama yo kugira ikintu bakora, ni ibintu byiza bitanga umusaruro, umwe agatanga igitekerezo n'undi bagahuriza hamwe bagakora ikintu kinini, bitanga umusaruro mwiza cyane.

Kera bajyaga bahamagara inama ku baturage bakanga kuzitabira umubare ukaba uri mukeya bitewe n'uko ibikorwa remezo byabaga ari bikeya ntahantu ho kuganirira heza ari ukwicara ahantu izuba rigakubita abantu ndetse n'imvura ikabanyagira, ariko nk'aha hantu hari intebe ni ahantu hasa neza, hari isuku aho baza bakicara bakaganira mu cyumba kinini cyakira abantu benshi bakaganira bakajya inama ku iterambere.

Mu rwego rwo kurushaho gukaza iterambere ni byiza ko abantu bakicara bakaganira, hakabaho inama zigamije iterambere ry'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, cyane ko hasigaye harubatswe ibikorwa remezo aho abantu babona aho kuganira bicaye batuje, ku ntebe nziza hari isuku kandi hasa neza bigatuma baganira nta nkomyi.

Umuco ni ikintu kiza nk'uko bavuga ngo igihugu kitagira umuco kiracika, cyangwa se agahugu. Ni byiza ko tuganiriza abakiri bato ibyarangaga abantu ba kera bakoreshaga yaba mu kurwana nk'amacumu, ingabo ndetse tukabasobanura n'uburyo byakoreshwaga, kuko mbere ntabwo habagaho imbunda, ni mu buryo bwo gusigasira umuco Nyarwanda.

Umuco tuwusigasire kandi tubigishe n'abato kugira ngo utazasaza cyangwa se ngo ucike, mu bigize umuco kubyina ibyo bita imbyino gakondo na byo biri mu bigize umuco nyarwanda, aho abantu babyina bateze amaboko bashushanya inka z'inyambo.

Dusigasire umuco, igihugu kitagira umuco kiracika. Ni byiza ko dusigasira umuco, dusobanurira abana bacu uko Igihugu cyabaga kimeze, ndetse n'umuco wakiranze, yaba no guteza imbere umuco w'imbyino gakondo, arizo nko guhamiriza, gushayaya abantu bateze amaboko, byashushanyaga inka z'inyambo, zari zigize uruhare runini mu muco nyarwanda wa kera.

Umunyarwanda yaciye umugani ngo:" Igihugu kitagira umuco kiracika." Kandi ni byiza ko dusigasira umuco, kuko niho Igihugu kiba cyarakomotse. Ni byiza ko twabungabunga ibintu by'umuco, harimo utwuho, ibibindi ndetse n'uducuma, kugira ngo umuco wacu udacika, kandi tukajya tuwuha nk'umurage abana bacu, bakamenya umuco w'Igihugu, Igihugu kitagira umuco kiracika.

Umuco usigasirwe kuko agahugu katagira umuco karacika, ni byiza kubwira abato umuco nyarwanda, aho habagamo imbyino gakondo babyinaga bashayaya byashushanyaga inka z'inyambo, usanga ari umuco mwiza kandi uranga igihugu cy'u Rwanda.

Dusigasire umuco wacu, Igihugu kitagira umuco kiracika, kera habagaho kuba abantu bahura bakaganira, bagaterana inkuru ndetse abacuranga ibyuma bitandukanye harimo nk'amakondera bakayavuza, abazi kubikora bityo umuco ntucike, bakaganira ku nkuru za kera, bakagenda bahererekanya amakuru bituma bisigasira umuco.

Mu rwego rwo gusigasira umuco nyarwanda ni byiza kwibanda ku bikoresho gakondo tukabisigasira ntibicike kugira ngo n'umwana tujye tumwereka umuco, hari ibikoresho byakoreshwaga nk'inkoko, ibirago, ubicuma, inzuho n'ibindi byafashwaga mu mirimo itandukanye ya buri munsi.

Mu gihe Igihugu kiri mu iterambere cyangwa se mu muvuduko w'ikoranabuhanga, umuriro w'amashanyarazi na wo ubigiramo uruhare. Kuba umuriro w'amashanyarazi uhari ndetse n'ingufu zawo cyangwa se aho bita kwita urugomero, bituma ikoranabuhanga rigerwaho, ibikorwa bitanga umuriro w'amashanyarazi bikihuta kandi abantu bakaba ahantu haka hatari mu kizima.

Igihugu kiri gutera imbere kiri mu muvuduko w'iterambere aho usanga ahantu hose harageze umuriro w'amashanyarazi. Naho utageze hakoreshwa umuriro ukomoka ku ngufu z'imirasire y'izuba ibyo tuziI nk'imirasire. Hano turi kubona umurasire mwiza munini cyane, uyu murasire ni mwiza utanga umuriro mwinshi ukaba wawiifashisha mu kuba wakora ibikorwa bisaba umuriro nko gusya ndetse no kuba wagura ibyuma bisya isombe.

U Rwanda ruri gutera imbere buri munsi, ndetse ruri ku muvuduko mwiza w'iterambere, yaba mu bikorwaremezo, umuriro w'amashanyarazi, uri mu bigize iterambere ry'ubukungu, ndetse n'ikoranabuhanga, niyo mpamvu hubatswe ingomero zifite ingufu z'umuririo w'amashanyarazi, zikwirakwiza mu gihugu hose, hakaba habaho urumuri ndetse n'umucyo.

Umuvuduko w'iterambere igihugu kiratera imbere kandi ibikorwaremezo bikubakwa amashanyarazi aragezwa ahantu hose bityo abantu bakora ubucuruzi bagatera imbere bifashishije umuriro w'amashanyarazi aho ukwirakwizwa ahantu hose, nta hantu hakiri kizima ahubwo iterambere riri kugera ahantu hose.

Ibikorwa remezo ni byiza ndetse amashanyarazi ari mu bigize ibikorwa remezo kandi umuriro w'amashanyarazi uri mu bituma ubukungu butera imbere aho abantu bihangira imirimo, kugira ngo rero uhabwe amashanyarazi bisaba kuba ufite kashipawa yawe ukajya ushyiramo umuriro mugihe washize ubundi ugakomeza ukaba ahantu hatari mu kizima.

Mu rwego rwo koroshya ubuzima ndetse no gutera imbere, umuriro w'amashanyarazi ni ingenzi kuko ibikorwa byinshi bisaba umuriro w'amashanyarazi, niyo mpamvu mu Rwanda ibikorwa remezo byubakwa kandi hakaba hari abantu benshi babyize, kuba bashobora gukora uwo muriro w'amashanyarazi mu gihe ugize ikibazo cyangwa se mu gihe barimo gushaka kwesitara ahantu hashyashya kugira ngo hacanirwe, abantu babyize amashuri, abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza.

Mu muvuduko w'iterambere ry'Igihugu. Ibikorwa remezo nabyo bizamo nk'umusingi ukomeye kugira ngo iterambere ry'Igihugu rigereho. Amashanyarazi ari mu bintu bituma umuvuduko w'iterambere ry'Igihugu utera imbere. Mu gihugu cy'u Rwanda bimaze kugaragara ko umuriro w'amashanyarazi umaze kugera ahantu henshi kandi ukomeye ufite ingufu, ni byiza ni byo kwishimirwa

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo byateye imbere cyane kandi urafasha mu muvuduko w'ikoranabuhanga Isi iri kugenderamo kuko ibintu byose by'ikoranabuhanga bisaba amashanyarazi, rero ni ibintu byiza ubwo iterambere riri kwihuta n'umuvuduko w'amashanyarazi ukaba uri kugera ahantu hose.

Igihugu kiri ku murongo w'iterambere gihera ku bikorwa remezo, aho usanga bifasha mu bukungu bw'igihugu mu kubwihutisha, amashanyarazi ari mu kintu cya mbere gitanga iterambere mu gihugu, aho usanga abantu babona ibyo bakora bitewe n'amashanyarazi kandi igihugu kikaba ahabona hacanye.

Iterambere rikomeje kwihuta kandi riragerwaho buri munsi ku munsi, ibikorwa nk'amashanyarazi biri mu bintu bifasha mu muvuduko w'iterambere, nk'uru rugomero ruri kubakwa ni rwiza, rutanga umuriro w'amashanyarazi igihugu kikava mu mwijima, abantu bakaba ahantu hagaragara ndetse n'ibikorwa bishingiye ku muriro w'amashanyarazi bikiyongera, ubukungu bw'igihugu bukazamuka.

Iterambere ririhuta kandi ibikorwa remezo bibukwa umunsi ku munsi, ndetse igihugu kirakomeza gusa neza, umuriro w'amashanyarazi uri mu bifite uruhare aho kubera wabaye mwinshi mu gihugu hose, bityo amatara yashyizwe ahantu hose yaba ku mihanda abantu bagakora amanywa n'ijoro yaba abatwara abagenzi, ndetse ahantu igihugu kikaba kiri mu rumuri cyaka ibintu bituma kigaragara neza.

Kuri ubu uburezi bwarazamutse Umwana w'umu umukobwa ndetse n'umuhungu ntibagihezwa aho dusigaye tubona umubare mwinshi w'abana b'abakobwa biga ibijyanye n'amashanyarazi akaba azi gukora amashanyarazi mu gihe yapfuye ndetse no kuba yashyiraho insinga ibyo bita kwestara, ndetse ireme rikaba rizamuka ry'uburezi yaba no mu muriro w'amashanyarazi.

Ibikorwaremezo birubakwa nk'imihanda nk'amavuriro, bityo ugasanga abantu iyo bashatse kimwe muri byo nko kwivuza babona ahantu ho kujya, nta gusiragira kandi nta muntu ukirembera mu rugo kuko haje imbangukiragutabara, zitwara abarwayi kwa muganga.

Ubukungu n'iterambere, igihugu gisa neza, ni rwo Rwanda twifuza, inyubako zirubakwa yaba ingufi yaba n'indende kandi ni ko n'ubucuruzi bukomeza gutera imbere, iyi ni inyubako igeretse kabiri ari yo bita etaje, iyi ni inzu nziza kandi ubona iri ahantu heza kandi hanini, hagari isa neza wanakoreramo ubucuruzi.

Ibikorwa remezo biri mu bintu bituma igihugu gisa neza kikihuta mu iterambere aho wasangaga kera abantu babura aho bajyana ibikomoka ku buhinzi bwabo cyangwa se ku bworozi nk'amata ariko ubu ngubu hahubatswe ibikorwa remezo hari amakusanyirizo y'amata menshi aho usanga abantu babona aho bajyana umusaruro wabo.

Imihanda irubakwa, ibikorwaremezo bigatera imbere, igihugu kigarushaho gutera imbere ndetse n'imihahirane y'ibihugu byombi, ibihugu by'abaturanyi nayo igatera imbere. Uyu ni umupaka uhuza u Rwanda na Uganda aho usanga hari umutekano, hari ingabo zirwana n'umukuru w'Igihugu yarihasuye ibintu bisa neza kandi bitera ubuhahirane mu bihugu byombi, yaba abatuye igihugu cya Uganda ndetse n'u Rwanda.

Ibikorwaremezo byarubatswe ku bwinshi yaba imihanda, amasitade aho abantu basigaye babona ahantu ho kwidagadurira kuko hubatswe amasitade meza abantu bajya kureberaho imikino itandukanye ndetse no gukoraho siporo maze abantu bakagira ubuzima bwiza n'ubusabane n'umunezero.

Ubuyobozi bw'u rwanda buri ku rwego rushimishije, kuko ibikorwa remezo birubakwa umunsi ku munsi yaba imihanda, yaba amavuriro, hakubakwa imihanda migari kandi ubona ko ikomeye, bityo iterambere ry'igihugu rikirukanka.

Igihugu kiri mu iterambere ukibwirwa n'ibikorwaremezo byubakwa buri munsi, aho abantu babasha kubona ibyo bakeneye bitewe n'inyubako nyinshi zubakwa, ibikorwaremezo, twavuga imihanda, inyubako za leta harimo ibigo nderabuzima maze abantu bashaka ibintu bitandukanye bakabasha kubibona.

Igihugu kiri ku muvuduko w'iterambere. Ibikorwaremezo birubakwa ari byinshi twavuga: nk'inganda, inyubako zitandukanye za Leta, zikora ibintu bitandukanye. Hari inganda zikora amata ndetse n'ibindi byinshi. Ni ibintu byiza bituma Igihugu kirushaho gutera imbere kandi abaturage bakabasha kubona ibintu bimwe na bimwe mu buryo buboroheye.

Mu muvuduko w'iterambere ni byiza ko ibikorwa remezo byubakwa, amahoteli, imihanda, hano turi kubona barimo kubaka, ni byiza kubaka ahantu hasenyutse, noneho abantu bakabasha kuba ahantu heza, ndetse n'iterambere ryabo rihutishwa, hubakwa imihanda n'ibintu byiza.

Ibikorwa remezo biri mu bituma Igihugu gitera imbere ndetse imibereho y'abaturage igatera imbere, iki ni ikiraro kandi ibiraro bigira umumaro mu guhuza ubuhahirane mu duce tumwe ndetse n'utundi, aho usanga abaturage baho boroherwa n'ingendo ndetse iterambere ryabo rikaba ryiza.

Umuvuduko w'iterambere urakataje ndetse n'ibikorwa remezo birubakwa buri munsi aho usanga kera ubuhahirane bwabaga bugoye bitewe n'uko ibikorwaremezo byabaga biri ku rwego rwo hasi ubungubu hubatswe ibiraro aho usanga ahantu hagoye kugendwa bisigaye byoroshye kuhagenda bitewe n'ibiraro ibikorwaremezo rero ni byiza.

Ibikorwa remezo biri mu bintu bituma umuvuduko w'iterambere ry'Igihugu wihuta kandi Igihugu kigakomeza gusa neza, hano turi kubona inzu yubatswe neza ni Akagari, abantu bakajya kwakiramo serivisi, ahantu heza hasa neza n'Igihugu kikaba gisa neza.

Muri iki gihe u Rwanda ruri guca ruswa n'akarengane ari yo mpamvu ubutabera mu Gihugu cy'u Rwanda buri gutera imbere, iyi ni inzu y'ingoro y'ubutabera aho umuntu ugize icyo akenera yarenganywe aza hano bakamufasha ndetse ikibazo ke kigakemurwa ubundi agahabwa ubutabera bumukwiriye.

Igihugu kiri ku muvuduko w'iterambere aho usanga ibikorwa remezo na byo byiyongera harimo imihanda, ndetse kandi ibyiza dushimira Leta, ku mihanda ishyiraho ibyapa ku buryo utahazi uhita umenya ngo urimo kugana he, ni ibintu byiza byo kwishimirwa kandi dukomeza kwizera ko iterambere riziyongera.

Nyuma y'icuraburindi ryaranze igihugu cy'u Rwanda, amarorerwa yabaye mu igihumbi kimwe magana kenda mirongo icyenda na kane, igihugu kiri kwiyubaka ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'umuntu bugaharanirwa, urumuri twacanye ntiruzime. Hano turi kubona abantu bacanye urumuri rutazima, harimo abantu b'ingeri zose mu bashinzwe umutekano, ubuyobozi ndetse n'abaturage aho bashishikariza abantu kumenya uburenganzira bw'umuntu ndetse n'ubutabera.

Ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'umuntu ni ikintu gituma iterambere ry'Igihugu ryiyongera, ubu ngubu hashyizweho n'ikintu aho umuntu akoze icyaha avanwa aho yakoreye icyaha imbere y'abaturage, agahabwa ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'umuntu bukabungabungwa, aho usanga ari ibintu byiza mu bituma iterambere ry'Igihugu rizamuka.

Ni byiza ko abantu babungabunga ubuzima bw'abandi ndetse bakirinda kurenganya abandi, tukabona ubutabera, hano turi kubona abantu bari gukorera hamwe kandi bakabasha kurwanya ibyo byaha byose.

Ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano yaba polisi ndetse n'abasirikari n'urwego rushinzwe abagororwa, bahora bashishikariza abaturage ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'umuntu ko bwarindwa kandi bwabungabunga. Ikindi mu Rwanda bigeze ku rwego rushimishije aho umuntu ahabwa ubutabera kandi n'uburenganzira bw' muntu bukabungabungwa.

Kera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ubutabera wasangaga biri ku rwego rubi, ariko ubu ngubu hariho Leta nziza, hariho ubuyobozi bwiza, aho usanga ubutabera n'uburenganzira bw'umuntu bubungabungwa. Ni ibintu byo kwishimira kandi ni ibintu byo guhozaho tukabashishikariza ni yo mpamvu habaho inama, abantu bakamenyeshwa ibyo bagomba gukora.

U Rwanda ruritegura kujya mu cyumweru cyo kwibuka abacu bazize Jenoside muw'igihumbi kimwe maganakenda mirongo kenda na kane; ni byiza kwifatanya mu cyumweru cyo kwibuka ndetse n'amezi atatu muri rusange yo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe maganakenda mirongokenda na kane, twibuke twiyubaka.

Abaturage, ubuyobozi ndetse na RIB na Polisi, ni bamwe bahora bakora iyo bwabaga mu gusobanurirana ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'umuntu, hano turi kubona RIB ndetse n'ubuyobozi basobanura uburenganzira bw'umuntu.

Ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'umuntu. Bukomeje gushyirwa imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iki gihe aho n'umuntu wakoze icyaha ashyirwa imbere y'abaturage cyangwa se aho yakoreye icyaha akabanza gucirwa urubanza, imbere y'abaturage kugira ngo umuntu ahabwe ubutabera busesuye. Na hano turi kuhabona umusaza n'abaturage barimo guca urubanza kugira ngo ubutabera buhabwe kandi mu ruhame.

Ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'umuntu yaba abayobozi ndetse n'inzego z'umutekano. Zihora zishikariza abantu kuba twakirinda kugira uwo duhohotera yaba umuntu turuta ndetse n'uturuta. Ahubwo tukabaho mu mahoro dutanga ubutabera nk'uko ubuyobozi buhora budushishikariza kandi bukomeza kubirinda. Bunabutanga bufatanyije n'inzego zishinzwe umutekano.

Uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera n'ubwo guhabwa agaciro, aho uwakoze icyaha baturage bafatanyije n'inzego z'umutekano bamuhana uko akwiriye, maze n'uwagikorewe agahabwa ubutabera uburenganzira bw'umuntu bugasigasirwa igihugu kigatera imbere mu miyoborere no mu mimibereho myiza.

Abantu ni byiza ko bashishikarizwa ndetse bagasobanukirwa ubutabera, ndetse n'uburenganzira bw'umuntu, hano turi kubona umupolisi yari yagiye ku kigo k'ishuri arimo gusobanurira abanyeshuri ababwira uburenganzira bw'umuntu ndetse n'ubutabera.

Ibikorwa remezo birubakwa mu muvuduko w'iterambere, biba ari byiza iyo ibikorwa remezo nabyo bizamuka, ubwo tuvuga nk'imihanda n'ibindi n'indi. Imihanda yubakwa hashyirwaho ibyapa bituma umuntu ujya ahantu bimworohera kumenya ngo ni hehe ari cyangwa se nihe ashaka kujya, bityo bikorohereza abantu batazi ahantu bari kujya.

Imihanda yarubatswe bityo abakora ubucuruzi butandukanye, yaba abatwara abantu n'ibintu ku ma moto bakiyongera, umusaruro ukaba mwinshi bitewe n'imihanda myiza yubatswe kandi migari, abantu barakora akazi kenshi ko gutwara abantu n'ibintu.

Igihugu kiriruka mu muvuduko w'iterambere umunsi ku munsi, ari nako ibikorwa remezo bizamuka, uyu ni umuhanda mwiza muhanda mugari, ugenderamo ibinyabiziga by'amoko atandukanye, abantu bakabasha kugenda ahantu heza ndetse n'ibyo bakora bikarushaho kwihuta.

Iterambere ry'Igihugu ni ryiza kandi ahubatswe ibikorwa remezo harimo imihanda, aho usanga abantu benshi bihangira imirimo, dore nk'uyu ni umunyonzi, ubunyonzi na bwo buri mu kazi keza, bitewe n'imihanda myiza iri mu Gihugu, aho iyo umuntu ashaka kujya ahantu atega umunyonzi akamugezayo cyangwa akamugerezayo ibintu.

Nyuma y'uko imihanda ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye byubatswe ku rwego rushimishije cyangwa se byiyongereye, abatunga ibinyabiziga umubare na wo wariyongereye, aho abantu basigaye bagura imodoka bakagendaho bikaborohereza mu ngendo za buri munsi ndetse n'akazi.

Muri iki gihe ibikorwa remezo byarubatswe ku bwinshi kandi n'ibyo kwishimira, aho usanga imihanda ihari ndetse n'ahantu ho guparika amamodoka hahari mu gihe kera twe atariko byari bimeze, ibiraro birubakwa, imihanda irubakwa, aho usanga abantu babona aho kunyuza amamodoka yabo n'aho guca.

Kera abantu batinyaga gushyira amafaranga yabo mu bikorwa byo gutwara abagenzi bitewe n'uko imihanda yari mibi igihugu kidafite imihanda, ariko ngo imihanda yarubatswe noneho nk'akarusho hubakwa amazu yo ku mihanda umugenzi yicaraho mugihe ategereje imodoka iza kumutwara, utwo tuzu dusakaye umugenzi akatwicaraho imvura itamuyagira n'izuba ritamukubita.

Umuvuduko w'iterambere ibikorwaremezo biri ku isonga mu bituma ubuhahirane bugenda neza, aho twavuga imihanda aho abantu bashaka kujya ahantu hamwe bajya ahandi byoroha, yaba kujya mu bihugu bitandukanye, kujya mu mijyi itandukanye ndetse no gushaka ubuvuzi biroroha iyo hari ibikorwa remezo nk'imihanda biroroha.

Mu rwego rwo kubungabunga umutekano, kera wasangaga igihugu kidafite umutekano ariko ubu ngo si ko bikimeze, usanga abasirikari, daso, polise biri ku rwego rushimishije mu kubungabunga umutekano w'igihugu n'abaturage muri rusange.

Umutekano ndetse n'ibikorwa bya leta biri mu bituma ubukungu bw'igihugu ndetse n'imibereho myiza ikomeza kurushaho gutera imbere, hari ugufashanya, gukora umuganda, abantu bakubakirana amazu, aribyo bita umuganda rusange, bityo umuntu akabonaho kuba kandi umutekano nawo ukagerwaho afite aho kuba.

Kwitabira gahunda za Leta biri mu bituma umutekano w'Igihugu utera imbere, muri gahunda za Leta twavuga umuganda rusange ndetse no gukorera hamwe, ni byiza iyo abaturage bakoze umuganda rusange bituma umutekano w'Igihugu ugenda neza, tubona abaturage bafatanya n'abasirikari bafatanya mu gukora umuganda rusange, bituma Igihugu gitera imbere yaba mu mutekano ndetse no mu bukungu.

Umutekano uri mu bituma igihugu gitera imbere kandi igihugu gifite umutekano kigera ku bintu byinshi, ni yo mpamvu bahora badushikariza ko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we, uyu mubyeyi arimo kugira abantu inama yo kubungabunga umutekano w'abantu n'igihugu muri rusange, buri wese akaba ijisho rya mugenzi we.

Umutekano nk'ingamba ya Leta ikomeye aho buri muturage agomba kuba ijisho rya mugenzi we, ni ibintu duhora dushishikarizwa ndetse dufatanyijemo n'inzego z'umutekano nka Polisi Dasso n'abasirikare bafasha umuntu kubungabunga umutekano ndetse n'ibikorwa bya Leta bikabasha kugerwaho, nko: gutanga Mituweli, gukora umuganda, bitewe n'uko umutekano ari wose mu Gihugu kandi gituje gitekanye.

Leta ihora ishishikariza abaturage ko umutekano ari cyo kintu cy'ibanze kandi buri wese ijisho rya mugenzi we, polisi, inzego zitandukanye zihora zikangurira abaturage kurinda umutekano no gutangira amakuru ku gihe, ni byiza mu gukorana mu bikorwa bya leta yaba abakangurambaga ndetse n'izindi gahunda, maze Igihugu kikagira umutekano usesuye n'ubuzima bwiza bw'abaturage.

Igihugu cy'u Rwanda gifatanyije n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'abaturage muri rusange mu kubungabunga umutekano bityo bituma umusaruro w'umutekano uba mwinshi kandi ugaragara, aho usanga Igihugu kirinzwe n'abaturage batekanye.

Abaturage bafatanyije n'inzego zishinzwe umutekano mu kubungabunga umutekano w'Igihugu ndetse no kubungabunga ubuzima bwiza bw'abaturage, buri wese abe ijisho rya mugenzi we nk'uko Leta ihora ibidushishikariza, hari ingabo, hari abasirikare hari Polisi ndetse n'abaturage mu gufatanya mu kubungabunga umutekano ndetse n'ibikorwa bya Leta bakabikorera hamwe.

Umukino w'amaguru aho bita umupira w'amaguru, ni umukino mwiza urimo amafaranga kandi utanga ibyishimo, aho usanga umuntu uwukora nta kandi kazi yashaka kandi kuko uba umutunze kandi utuma umuntu abona ibyo kurya ndetse akagira n'ubuzima bwiza.

Imikino iri mu bihuza abantu batandukanye kandi ugasanga hakorewemo ibikorwa bitandukanye, imyidagaduro abantu bagira inama abandi, ndetse n'ubuyobozi bukabona uko bugeza ku baturage ibyo bashaka kubabwira, binyuze mu mikino nk'umupira w'amaguru ndetse n'indi itandukanye kandi bigatanga umusaruro.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, twirinda indwara zimwe na zimwe, nk'umuvuduko w'amaraso. Ni byiza ko dukora siporo, bityo tukagira ubuzima bwiza, ubu ngubu duhora tubona ubukangurambaga budushishikariza gukora siporo, aho Leta yashyizeho na siporo rusange, iba buri wa mbere w'ukwezi, abantu bagahura, bagakora siporo, hakaba hapimwa n'indwara zitandura.

Siporo nk'ibihuza abantu ndetse n'imirenge, usanga harajeho irushanwa rya Kagame Cup, usanga imirenge ihura igakina ndetse igahuza abantu, ubuyobozi; hari ibintu byiza bigaragara neza bituma imibereho y'umuturage igenda itera imbere.

Siporo iri mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse buri munsi leta iradushishikariza gukora siporo, banashyizeho uburyo bwo kujya dukora siporo ngarukakwezi, abantu bagahurira hamwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Siporo ni ubuzima bwiza kandi igira umumaro ku buzima bw'umuntu, ariko isigaye yarabaye n'akazi. Hano muri iki gihe mu Rwanda ntabwo ari iy'abahungu gusa ahubwo n' nabakobwa bagiye mupira w'amaguru, aho ubona abakobwa bakina umupira w'amaguru babigize umwuga kandi ba bakabona amafaranga, bakaba bajya no gukinira mu bindi bihugu hanze maze bagatera imbere.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwacu, kandi iri mu bigize ubukungu cyane, ni imikino ituma abantu bishima, noneho by'umwihariko umupira w'amaguru uri mu bigize ubukungu cyane, kandi abantu basigaye barabigize akazi, aho birimo amafaranga, cyane hano uba ubona abasore bakina umupira bishimye, kandi bafite n'ishyaka bigatuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Siporo ni ingenzi ihuza abantu batandukanye kandi ubu yabaye iy'abantu bose, kera yabaga ari iy'igitsina gabo ariko ubu n'abagore barakina, hari n'ababigize umwuga baba bari mu makipe cyane ko n'Igihugu kigira ikipe y'Igihugu y'umupira w'amaguru; bityo umupira w'amaguru urimo amafaranga, abawukora babasha kubona ubuzima bwiza kandi bakabona n'amafaranga.

Kurya indyo yuzuye biri mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza ariko si ibyo gusa gukora siporo biri mu bigize ubuzima bwiza, birinda indwara kandi bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Siporo ni ikintu cyiza gihuza abantu b'ingeri zose kandi noneho by'umwihariko umupira w'amaguru, uri mu bituma umuntu abasha kubaho ubuzima bwiza, yaba mu buzima cyangwa no mu mafaranga kuko benshi babikora nk'akazi kabatunze.

Ni byiza kugira ubuzima bwiza bubungabunzwe, duhora dushikarizwa gukora siporo kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza bwirinzwemo indwara, hano turimo kubona abantu barimo gukina umupira, na wo uri mu bigize siporo kandi urafasha cyane.

Siporo ni ingenzi kandi ni nziza ku buzima, ihuza abantu benshi, kuri ubungubu isigaye ikorwa nk'akazi gatunze ubuntu by'umwihariko nk'umupira w'amaguru, abantu bawukina urabatunze, aho usanga umuntu akazi aba akora ari ugukina umupira w'amaguru, nta kandi kazi kandi akaba abona amafaranga atunga umuryango we.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko siporo iri mu bihuza abantu benshi ingeri zitandukanye. Siporo ni nziza cyane ku buzima bwa buri munsi, kandi ni ahantu heza ho kuruhukira hano turi kubona abantu bari muri sitade baje kwirebera umupira, ni byiza gushyigikira amakipe yabo.

Siporo ni ubuzima bwiza kandi ni byiza gukora imyitozo kuko bituma amaraso atembera neza, by'umwihariko umupira w'amaguru cyane ko urenze kugira ubuzima bwiza ahubwo utunga abantu kandi ugasanga umupira w'amaguru hari abawukora nk'ubuzima bwa buri munsi ukaba ubatunze nta kandidi kazi bakora, kandi ugasanga ubatunze n'imiryango yabo.

Kugira ngo umuntu yirinde indwara umubyibuho ukabije indwara z'ibihaha, gukora siporo biri mu bintu birinda izo ndwara kandi bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse, akanatinda no gusaza no kuba yazahazwa n'izindi ndwara.

Imikino ni ibintu byiza usanga bihuza abantu batandukanye ndetse bikaruhura mu mutwe kandi ugasanga biri mu biteza Igihugu imbere cyangwa mu busabane binazana amafaranga, ni byiza kwitabira imikino yaba umupira w'amaguru, tujya muri sitade kureba amakipe yacu.

Siporo ni ingenzi aho ituma ugira ubuzima bwiza butarimo indwara kandi ugasanga ihuza abantu benshi ingero zose, ni byiza ko dukora siporo cyane ko leta yazanyeho icyo bita siporo rusange, abantu bahura rimwe mu kwezi bakabasha gukora siporo bayikoreye hamwe.

Nkuko Leta ihora ibidushishikariza ni byiza kubungabunga amagara yacu kandi siporo iza ku isonga mu gutuma tugira ubuzima bwiza, muri iki gihe hari icyo bita siporo mpuzarusange aho abantu bahura bagakora siporo ndetse bakiruka bari kumwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza, turabona abantu b'ingeri zose abana, bakuru, abagabo, abamama, abakobwa biruka ni ibintu byiza bituma bagira ubuzima bwiza.

Siport ni nziza, cyane cyane umupira w'amaguru uhuza abantu benshi kandi ikindi bamwe bawukora nk'akazi kabatunze kuko habamo amafaranga, bityo ukaba wagakora maze ugakina umupira, ukabasha gutunga umuryango wawe, mu buryo bw'amafaranga.

Siporo ni nziza, iruhura mu mutwe kandi ituma ugira ubuzima bwiza by'umwihariko umupira w'amaguru, ari siporo y'abantu bose yaba abakuru n'abato maze bagakura bafite siporo maguru yabo kandi benshi, hashobora kuvamo akazi kabatunze kuko habamo amafaranga.

Siporo ni ubuzima. Siporo ni imibereho kandi muri siporo harimo akazi. Ni byiza ko twayikora ikindi ihuza abantu. Urabona hano ni muri stade abantu baje kureba umupira barishimye, bose akanyamuneza kagaragara ku maso kandi urabona ko basa neza cyane bakeye, siporo ni nziza.

siporo ni ubuzima. Gusa ntabwo bihagije kuko hari abayikora nk'akazi ka buri munsi kandi kabaha amafaranga kandi ikindi izana ibyishimo. Ni byiza ko umupira w'amaguru wakinwa kuko ubamo amafaranga kandi ushobora kuwukora nk'akazi katunga umuryango wawe.

Siporo nk'umusingi w'iterambere kuko abantu bayikora nk'akazi kandi ihuza abantu b'ingeri zose yaba abaturage, yaba abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano, bakicara hamwe bakaganira bakaba babasha kurebera hamwe iterambere bya siporo, hari n'aho bicarana bakareba imikino imwe n'imwe bari kumwe bateranye, bakabasha kubona ibyishimo ndetse n'ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza buzira umuze Leta ihora idushishikariza gukora siporo kandi ubu ngubu siporo yabaye abantu bose: abana, abagore, abamama n'abagabo n'abasaza n'abahungu n'abasore, hano turi kubona umugore uri ku mupira w'amaguru ku kibuga kiza n'umugabo, ni byiza kuko bituma ubuzima buba bwiza n'ubusabane bukaba bwiza.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, ni byiza gukora siporo kuko bituma amaraso atembera neza kandi buntu akagira ubuzima bwiza butarimo indwara abantu basigaye baramenye akamaro ka siporo abasore, abagabo, ababyeyi ndetse n'abana bakiri bato n'abakobwa bose kuko bakora siporo bagakorera hamwe bityo bakaba baterana umwete.

Imihanda irubakwa kandi ikubakwa neza aho bashyiraho aho umugenzi cyangwa se aho umunyamaguru agendera, bityo bikarinda impanuka kandi igihugu kikarushaho gusa neza gifite imihanda n'abantu babasha kugenda impanuka zaracitse bitewe n'uko hubakwa aho abanyamaguru baca.

Igihugu kiratera imbere buri munsi maze abaturage na bo bakagira ubuzima bwiza, aho usanga ibikorwa remezo byubaka, imihanda, amazi, ubungubu usanga imihanda igeze mu ngo zacu bitewe n'ubuyobozi bwiza, aho usanga abantu ingendo zoroha umuntu ava ku kazi akagenda agera mu rugo aca mu muhanda mwiza.

Igihugu kiratengamaye kandi isuku ni yose, ibikorwa remezo birubakwa, imihanda migari kandi ikeye ifite isuku, Bituma ubucuruzi ndetse n'urugendo bigabanyuka, kandi bigenda neza, hubatswe imihanda igendaho ibinyabiziga ndetse basigaho n'utuyira tw'abanyamaguru, bituma bigabanya impanuka ndetse no kubangamirana, bikagenda neza mu rugendo.

Uko Igihugu kihuta mu iterambere ibikorwa remezo bikiyongera harimo nk'imihanda, nk'uyu muhanda turi kubon ari myiza, iyi mihanda uko ari myiza bituma abantu bihangira imirimo yaba ari gutwara amamoto biyongera, ubushomeri bukagabanuka.

Mu rwego rw'ubuhahirane hagiye hashyirwaho uduhanda duto duto, aho dufasha mu kugirango abantu babashe guhahirana, ndetse no kubona ahantu abantu banyura. Hano turi kubona akayira ni keza gatuma abantu bajya mu buhinzi bwabo babona aho baca kandi heza.

Umuganda rusange uri mu bibyara inyungu kuko usanga hubakwa imihanda ica ahantu abaturage batuye bityo urugendo ndetse naho kunyura bikoroshya, aho usanga abantu babona aho kunyuza ibinyabiziga bibageza mu rugo bitewe n'imiganda rusange ica imihanda, ica mu ngo z'abaturage.

Igihugu kiri gutera imbere n'ibikorwa remezo bikihutishwa bikubakwa ku bwinshi, hano turi kubona umuhanda mwiza usa neza, kandi mugari, uyu ufasha mu ngendo aho abantu babasha gukora ama business cyangwa se ubucuruzi bwabo n'ubuhahirane, hari imihanda bikoroshya mu ngendo zabo.

Nyuma y'uko hubatswe imihanda migari, yaba iminini ndetse na ya mihanda twakita iyo mu duce abantu baba batuyeho, byoroheye abatwara abagenzi, babavana ahantu hamwe babajyana ahandi kubera imihanda yubatswe bityo umuntu utwara abagenzi akaba yageze umuntu aho atuye neza bitamugoye bitewe n'imihanda myiza yubatswe.